Iki ni igikapu cy'abadamu cyangwa abagore bitwaza bagiye ahantu runaka batwayemo ibintu runaka bashobora kwifashisha mu rugendo.

Ni urupapuro mpeshabubasha ruhabwa umucuruzi kugira ngo abashe kwishyura imisoro n'amahoro. Ni iterambere ry'igihugu murakoze.